Ishuri ririmo abana batoya, bambaye impuzankano z'amabara atandukanye ay'ubururu bucuritse, amajipo cyangwa amakabutura y'ubururu bwijimye, iyindi myambaro itari impuzankano y'amabara anyuranye.

Ishuri ry'incuke ririmo ibishushanyo by'ubwoko butandukanye, aho abana bicaye bambaye impuzankano z'amabara y'ubururu bucuye ndetse n'amajipo y'ubururu bwijimye, ubona ko bibereye kubirebesha amaso yawe.

Ikigo cy'amashuri cyiganjemo igice kinini cy'ubutaka ndetse n'igice kirimo indabo nziza cyane zigezweho zikoze ubusitani, cyuzuyemo abanyeshuri bambaye impuzankano zimwe z'ubururu, izindi za kaki ndetse n'inyubako nziza.

Ishuri rimanitswemo impapuro ebyiri z'umweru ziriho ibishushanyo bitandukanye by'imyambaro birimo ikanzu, ishati, ipantaro, ingofero, ijipo, ikabutura, agatebo.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bicaye mu ishuri ryuyubakishije amatafari ahiye ndetse n'intebe zikoze mu mbaho, bahuriye mu itsinda ubona ko bari gukora umukoro bambaye impuzankano zitandukanye iz'ubururu ndetse n'iza kacy.

Ikibuga cyiza gisashe neza cyubakishije sima, gishushanyijeho imirongo, gikikijwe n'amabuye ku ruhande ndetse n'ubusitani bwiza bugizwe n'ibyatsi, n'inyubako ku ruhande zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'amabati meza cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, itakishijwe ibara ry'umuhondo hagati, yometseho urupapuro ruriho ibishushanyo byifashishwa n'abafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva bimwe bishushanya A B n'ibindi.

Ikibuga kigari cyubakishijwe ubutaka kigendwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano z'mabara atandukanye, abambaye icyatsi, abambaye kake hasi, abambaye inkweto z'umuhondo, abambaye iz'umweru, abambaye amashati yijimye ndetse n'ay'ubururu bucuye.

Abanyeshuri beza bambaye impuzankano nziza cyane y'umweru n'umukara, ndetse n'inkweto nziza cyane, bari mu nyubako isengerwamo itatsemo amabara meza, y'ubururu n'umweru, ndetse n'inyunganirandeshyo imbere yabo, bishimye.

Umuhanda nyabagendwa wubakishije amabuye, unyura ku Kigo cy'amashuri cya Mutagatifu Elena Geurra, cyubakishije amatafari ahiye n'amabuye hasi, kikaba gifite icyapa hejuru cyandikishije amagambo y'ubururu ndetse n'umutuku.

Abantu bane bambaye imyenda y'amabara atandukanye: ubururu, umweru, n'umukara, inkweto zifunze n'izifunguye, kaki, begereye inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru, umukara.

Ishuri rigari ririmo abanyeshuri b'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye impuzankano nziza cyane, z'amashati y'umweru, amajipo y'umukara, cyangwa se amapantaro y'umukara, inkweto zisa neza, bari gukoma amashyi bamwe, abandi biturije.

Icyumba cyo kurarwamo cyiganjemo ibikoresho ari byo ibitwarwamo imyambaro, ibyo kwiyorosa, ibyo kuryamira, ibitanda, inzugi zikinze, inkuta na porafo.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibyatsi, ibiti, n'indabo z'ubwoko butandukanye, amabara atandukanye, yaba umuhondo ndetse n'icyatsi, abantu benshi bari kugenda muri uwo muhanda, bambaye impuzankano z'amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umutuku.

Inyubako nziza irimo ubusitani bushashe neza, bwiganjemo indabo zigezweho ndetse n'ibiti biyikikije, ikorerwamo imirimo ya Leta, n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, rigizwe n'amabara ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Umubare munini w'abanyeshuri biganjemo ab'igitsina gabo, bambaye impuzankano nziza cyane, z'ibara ry'umukara hasi, iry'umweru hejuru, n'imipira yo kwifubika, bakikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bagana ku nyubako y'ishuri, ifite amabati y'umutuku no hasi h'umuhondo. Bambaye impuzankano z'ibara ry'ubururu bucuye, ndetse na kacyi amajipo n'amapantaro, inkweto z'umweru.

Inyubako y'urukarabiro yubatswe n'ibikoresho by'agaciro, birimo amakaro, inzugi nziza zikomeye za ribuyu kandi zisa neza mu ibara ry'umutuku, ndetse n'idirishya ryinjiza umucyo ahongaho ubona ko bibereye ijisho.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye: ibikoze mu byuma, ibikoze mu mbaho, ibikoze muri byose, ari byo: intebe, ameza, amadirishya atandukanye kandi menshi, inzugi ndetse ryubatse mu matafari ahiye.

Ubusitani burimo ibibuga bikinirwamo imikino itandukanye, haba umukino w'amaboko, umukino w'amaguru, ubwatsi bwiza buri gutoha bw'icyatsi kibisi, amabara yiganje umuhondo, ubururu umutuku.

Isuzumiro ry'ibizamini ririmo imashini zikonjesha, izisuzuma n'izifata ibizamini, higanjemo amabara y'ubururu, ay'umweru, amacupa atandukanye, afite imifuniko y'umutuku, afite imifuniko y'umuhondo.

Ikibuga kigali cy'umupira w'amaguru, gikikijwe n'ishyamba bigizwe n'ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, kikaba kirimo ubwatsi bwiza butohagiye busashe neza ndetse n'ibyuma bakiniraho cyangwa se byitwa amazamu.

Inyubako yuzuye iri ahantu hasashe neza, cyane izengurutswe n'ibiti ndetse hasi hari ibyatsi. Bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo kandi isanzwe ikoreshwa.

Inyubako nziza ikomeye isize irange ry'umuhondo ku nkuta n'iry'umukara ku madirishya, irimo ibirahuri byiza byinjiza urumuri mo imbere, inzugi nziza zisize irange ry'umukara n'ibikoresho bitandukanye birimo ameza n'intebe ntoya.

Abakoresha mudasobwa bakoresheje amaboko yabo yombi, bambaye imyenda itandukanye, umutuku, ubururu, umweru, bafite amakaramu ndetse n'amakaye imbere yabo yo kwandikamo, ku ntebe zikoze mu mbaho.

Icyumba kigari cyiza kirimo uburiri bushashe neza, amashuka n'uburingiti, gifite urukarabiro mu ibara ry'umweru ndetse n'agakinga kiganjemo ibara ry'umuhondo ubona.

Ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitohagiye bukikijwe n'indabo z'ubwoko butandukanye burimo amabara y'umutuku, icyatsi kibisi, aho kwanika imyenda ayanitse hejuru n'iyanitse hasi, inyubako zirimo ibyuma bikomeye.